Icyapa cyamamaza cy'ubwishingizi bwitwa Radiant, iki cyapa cyiganjemo amabara y'umweru ndetse n'ubururu, cyandikishijweho inyuguti zifite ibara ry'umukara, iki cyapa kandi kiriho inkoko, cyanditseho amagambo agira ati: ubwishingizi bw'inkoko.

Mituweli ubwishingizi mu kwivuza, mituweli ni ubwishingizi bukoreshwa mu Rwanda igihe abantu bari kwivuza, bwishyurwa mu byiciro bitandukanye hagendewe ku cyiciro cy'ubudehe, hari abishyura ibihumbi bitatu ku mwaka hari n'abishyura ibihumbi birindwi ku mwaka.

Icyapa cy'amamaza Radiant. Iki cyapa kiriho abantu babiri bagaragara ku maboko gusa, n'umuganga ndetse n'umurwayi bari gupima, iki cyapa cyanditseho amagambo agira ati "ibyishimo by'umuryango ni ukudahangayikira ahazaza, hamwe n'ubwishingizi bwo kwivuza bwawe n'umuryango wawe".

Umuntu ufite terefone mu kiganza cye cy'iburyo ndetse ari kuyikanda, iruhande rwe hari icyapa cyanditseho radiyanti yacu, ndetse iyi radiyanti ni ikigo cy'ubwishingizi.

Icyapa cyamamaza kiriho imodoka ifite ibara ry'umukara ndetse hariho moto yicayeho umuntu. Iyi moto ifite ibara ritukura. Iki cyapa cyanditseho sonarwa.

Abagabo bane batatu bahagaze basa n'abegeranye, undi umwe uhagaze inyuma yabo ukoze mu mufuka, ndetse wambaye ishati y'amaboko. Aba bagabo batatu bandi babiri bambaye imipira y'umweru, ndetse undi umwe yambaye umupira utukura.

Icyapa cyamamaza, iki cyapa kiriho umwana umwe, umusaza ndetse n'umukecuru n'abazungu. Iki cyapa kirimo amabara y'umweru kikaba cyandikishijweho amabara y'umukara ndetse n'amabara y'icyatsi.

Icyapa cyamamaza kiriho umugabo ufite inkoni uri guseka, uyu mugabo ageze mu za bukuru, iki cyapa kiravuga ngo no mu gihe k'izabukuru turahagoboka. Iki cyapa iyo ukeneye kuzigama uhamagara nimero iri hasi.

Umugabo ugaragara igice k'igihimba ndetse n'amaguru afite ivarisi asa nuwambaye ijaketi y'umweru ndetse n'ipantaro yahinnye iyi ivarisi ifite umugozi w'umuhondo.

Abantu batatu barimo abagabo babiri bambaye amakoti ndetse na karuvati n'umugore umwe wambaye ikoti n'ishati y'umweru. Bafite icyapa cyanditseho solas. Iki cyapa bahagaze neza bose bagifashe ku gice cyo hejuru kugirango kibashe kugaragara neza.

Ni icyapa cyamamaza. Kiriho umugabo uri guseka wifashe neza, wambaye umupira w'umweru ndetse n'isarubeti y'amaburuteri, ifite ibara ry'ubururu. Imbere ye handitse amagambo agira ati:" Ramba na britam."

Icyapa cyamamaza. Iki cyapa cyiganjemo amabara y'ubururu ndetse n'amabara y'umweru. Handitseho amagambo agira ati "shinganisha ibihingwa byawe uhinge utekanye" ndetse iki cyapa kiriho umugabo uri mu byatsi.

Umukobwa wishimye uri guseka wambaye ingofero y'umweru. Ari gucuruza mu iduka ririmo itomati, amavuta ndetse n'ibirungo bigiye bitandukanye, uyu mukobwa yambaye umwenda w'umukara.

Imyenda itandukanye y'abagore; iyi myenda iramanitse, ndetse iyi myenda irimo amabara agiye atandukanye. Hari ifite amabara atukura, ay'ubururu, ndetse n'ifite amabara y'imyeru.

Ibikapu bimanitse bikozwe mu myenda ya kinyafurika ibi bikapu bifite amabara agiye atandukanye ndetse avangavanze hari byiganjemo amabara atukura, n'ibyiganjemo amabara y'umuhondo, ndetse n'ibyiganjemo amabara y'icyatsi.

Abantu babiri umwe w'umwirabura n'umugabo undi w'umugore ni umuzungu. Uyu w'umwirabura yambaye umupira w'umweru afite ikaramu mu ntoki ze ari kwandika. Uyu muzungu imbere ye hari mudasobwa ari gukanda.

Iduka ricuruza imyenda y'abagore, harimo imyenda yo hejuru ndetse n'amapantaro yo hasi, harimo udusengeri tw'umweru harimo ndetse n'amapantaro manini y'ubururu.

Iduka ricuruza imyambaro y'abagore. Harimo inkweto zipanze mu kabati ndetse izi nkweto higanjemo izifite taro ndende. Inyuma yazo hari amakanzu amanitse afite amabara agiye atandukanye.

Umuhanda nyabagendwa, iruhande bacuruza imyenda, hari umuntu uri kuhatambuka, afite igikapu, iruhande rw'iyo nzu bacururizaho imyenda iriho igiti cy'umukindo.

Umugore w'umwirabura uri guseka yambaye ikanzu idozwe mu myenda y'ibitenge, imbere ye hari mudasobwa, iruhande rwe hari imyenda imanitse y'amakanzu, mu ntoki ze harimo ikaramu.

Umugabo w'umwirabura wambaye ingofero isa n'ishati yarengejeho ijire y'umukara n'ipantaro y'umukara afashe kumodoka y'umukara.

Abantu bane bahagararanye babiri babiri abagabo babiri bahagaze ku ruhande rumwe b'abazungu umugore n'umugabo bahagaze ku rundi ruhande umugabo ni umwirabura umugore n'umuzungu inyuma yaho hari imodoka hakaba handitseho akagera motozi.

Imodoka ifite ibara ry'umukara ndetse n'ibirahuri by'umukara iragaragara kuruhande rw'ibumoso ndetse no ku gice cy'inyuma iyi modoka iparitse ahantu hari amatavi iruhande rwayo hari inzu yubakishijwe amatafari ahiye.

Imodoka nziza ihagaze ahabugenewe iyi modoka ifite ibara ry'umukara iragaragara igice cy'iburyo. Iyi modoka ikorerwa mu ruganda rwitwa Yundayi.

Imodoka nyinshi z'umweru ndetse inyuma yazo hari indi modoka igaragara neza, na yo ifite ibara ry'umweru. Inyuma yazo hari inzu ifite amabara y'umuhondo.

Umugabo wambaye umupira utukura ndetse n'ipantaro y'umukara imbere ye hari imodoka ifite ibara ry'umweru ni nshyashya iruhande rwe hari icyapa cyanditseho akagera.

Imodoka enye ziparitse ahantu zisanzuye. Izi modoka zifite ibara ry'umweru, ndetse zose zirasa. Zagenewe gutwara abagenzi. Inyuma yazo hari ibiti byinshi, bikoze ishyamba.

Amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda inoti y'igihumbi. Iyi noti ishushanyijeho inkende ifite umurizo muremure. Iyi noti yemewe n'amategeko y'u Rwanda.

Abagabo babiri bicaye, umwe yambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati imbere ye hari mudasobwa. Umwicaye imbere yambaye ishati y'umweru irimo imirongo.

Abagabo babiri b'abirabura bicaye barebana, umwe yambaye rinete ndetse bose bambaye udupfukamunwa. Aba bagabo bari guhana amafaranga, umwe asa n'uwicaye muri banki undi azanye amafaranga.

Abantu batatu bari muri banki, umwe yambaye ingofero ndetse ahetse igikapu cy'umukara, undi yambaye ipantaro y'umutuku ndetse n'umugore, undi ni umusore yambaye ikanzu y'umweru, bose barahagaze bategereje ko bakirwa.

Abagabo babiri bahagaze, umwe afite umupira ku rutugu undi ari imbere y'ibirahuri ,yambaye ishati. Ari kubara amafaranga yuyu muntu ufite umupira ku rutugu.

Abantu babiri bahagaze hanze ya banki aba bantu bategereje guhabwa ubufasha, iyi banki yitwa keyisibi, umuntu umwe yambaye ikoti ndetse undi yambaye ikoti ry'imbeho ndetse n'ingofero y'umweru, imbere yabo hari icyapa cyiganjemo ibara ry'icyatsi.

Intoki zigaragara zifite amafaranga mu ntoki. Zifite amadolari ndetse iruhande rwayo hariho mubazi ikoreshwa mu kubara imibare.

Inoti ya magana atanu ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda yanditseho n'amagambo afite inyuguti z'umukara agira ati banki nkuru y'u Rwanda iyi noti iriho inka ebyiri.

Abantu babiri bari kwaka serivisi kuri banki umugore n'umugabo umugabo yambaye ikoti ndetse yambaye n'ishati y'umweru umugore afite telefoni mu ntoki ze ndetse yambaye imyenda y'ibitenge ateze n'igitambaro cy'umukara.

Icyapa cyamamaza, iki cyapa cyamamaza kiriho umwana wambaye agakanzu k'umweru, uyu mwana yanyweye amata ndetse amujya ku munwa, iki cyapa cyanditseho amagambo agira ati ni amata meza.

Utubido tw'umweru dupanze ari twinshi mu tubati. Utu tubati dufite ibara ry'umukara. Utu tubidoni twinshi cyane ndetse niho batubika. Iruhande rwaho hari igikuta cyubakishijwe amakaro.

Inzu bacururizamo amata harimo icyuma cyabugenewe gishinzwe kubika amata igihe kinini kiyarinda kwangirika iyi nzu irimo ameza y'umweru ndetse hejuru y'aya meza hateretseho jage iyi nzu ihagazemo umugabo wambaye umupira utukura.

Umugore uri gucuruza, imbere ye hateretse utubido tw'amata, turi mu bwoko bugiye butandukanye cyangwa mu byiciro bitandukanye bitewe n'ingano. Hari utwa litiro eshanu ndetse n'utwa litiro imwe n'utwa litiro eshatu.

Umugore witandiye n'agatambaro gafite amabara y'icyatsi, mu ntoki ze afite ijage irimo amata, iburyo bwe hari indobo ihateretse nini ifite ibara ry'icyatsi, ibumoso bwe hari icyuma cyagenewe kubika amata mu gihe kirekire aha niho bacururiza amata.

Inyubako iteretsemo ibicuba bisendereye amata, iruhande rw'ibicuba hari utubido tw'umweru ndetse n'utubido tw'umuhondo, iyi nyubako irimo amakaro ndetse hasi no ku gikuta, aya makaro arasa umweru.

Umugore uhagaze wambaye imyenda itukura imbere ye hari ameza ndetse n'intebe, inyuma ye hari umutaka ufite ibara ritukura ndetse uzinze, ibumoso bwe hari igare.

Amajerekani abiri afite ibara ry'umweru ateretse mutu etajeri, aka ka etajeri gakozwe mu giti ndetse munsi yayo hariho icyapa gifite ibara ry'ubururu.

Indobo ipfunduye gahoro irimo keke ndetse iruhande rwaho hari icyuma cyabugenewe kibikwamo amata, iyi ndobo iteretse ku meza, iyi nzu yubakishijwe amatafari ahiye.

Ibiganza bibiri bifashe telefoni, iyi telefoni ifite ibara ry'umweru ndetse iri kwaka, handitsemo amagambo y'icyongereza y'impine aya magambo ni u,sa, d.

Icyapa cyamamza, kiramamaza uburyo ushobora gufungura konte, uburyo bworohejwe mueu bibiri na makumyabiri na gatatu, iki cyapa kirihomidarapo ry'igihugu cy'urwanda'

Ikiganza cy'umwirabura gifashe telefoni mu ntoki, iyi telefone irimo ijambo MTN, ibirango bya MTN biba bifite amabara y'umuhondo, iyi telefoni yanditseho yelo Joseph ndetse urebye harimo na telefone mo imbere.

Icyapa cyamamaza banki yitwa copedu iki cyapa kiriho umugore wambaye amarineti ndetse ufite telefoni mu ntoki ze ari kuyirebamo iki cyapa kandi kiriho banki yitwa wesitamu yuniyoni ubu ni uburyo bakoresha bohereza amafaranga.

Ikiganza gifashe telefoni mu ntoki. Iyi terefoni iri kwaka. Yanditsemo inyuguti ndetse n'imibare. Handitsemo inyuguti sa iciyemo akarongo, bigaragaza ko ari idolari ndetse inyuma hari imibare gatatu, kabiri, gatanu. Aya ni amadolari magana atatu na makumyabiri n'atanu.

Icyapa cyamamaza kiramamaza banki yitwa copedo iki cyapa kiriho umugore watangaye cyane bitewe n'ibintu ari kureba muri telefone . Afite umusatsi w'umukara ndetse yambaye umupira w'umweru.

Icyapa cyamamaza kiriho abantu babiri, umukobwa n'umuhungu, umukobwa afite telefoni mu ntoki ze ndetse afite n'imisatsi myinshi, umuhungu na we afite telefoni ndetse yambaye umupira w'umweru n'ingofero.

Inyemezabwishyu ya Rwanda Revenue, mu nguni y'iburyo hejuru hariho ikirango cya Rwanda Revenue gifite amabara atandukanye: ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi. Mu nguni y'ibumoso hejuru hariho ikirangantego cy'u Rwanda.

Icyuma kibara amafaranga. Gifite ibara ry'umweru, ndetse harimo amafaranga y'amadolari, yanditseho ijana. Aya mafaranga ariho umugabo w'umuzungu, ndetse ufite umusatsi muremure.

Umuntu uri kubara amafaranga y'u Rwanda harimo inote za bibiri imbere ye hari telefone ndetse n'icyapa cya eyateli izi telefone nizo acuruza kugira ngo abashe kubona aya mafaranga.

Intoki z'umuntu ufashe amafaranga y'inoti mu ntoki ze, izi ntoki nizo zigaragara gusa ayo mafaranga ariho umugabo wambaye amarineti ushaje.

Ikiganza cy'umuzungu gifashe amafaranga menshi y'amadorari, kiri kuyabara ndetse aya mafaranga ari gushyirwa mu kamashini kayabara, aya mafaranga hariho umugabo ufite imisatsi miremire.

Amafaranga y'ibiceri ndetse n'inoti yanditseho ijana. Ibi biceri harimo icya rimwe, igiceri cya rimwe cyakozwe muri bibiri n'icyenda ndetse hariho igiceri cyanditseho atanu cyakozwe muri bibiri na cumi na gatatu.

Umugore w'umuzungu ufite amafaranga inoti ndetse n'ibiceri, ukuboko kw'iburyo gufashe inoti zigaragara nkaho ari nyinshi, ndetse ukuboko kw'ibumoso gufashe ibiceri.

Intoki z'abantu babiri umwe ari imbere, undi ari inyuma. Umwe afite amafaranga y'amadolari mu ntoki ze ndetse ari kuyahereza umuntu wicaye mo imbere. aha ni muri banki.

Amafaranga y'amanyamahanga, yanditseho gatanu, ariho umugabo w'umusaza wambaye amarineti. Uyu musaza aragaragara uruhande rumwe, kuko ukundi gutwi ntabwo kugaragara.

Inzu yubakishijwe amakaro ku gikuta, iyi nzu ikorerwamo ubucuruzi bw'amafaranga baravunjisha ,hejuru handitseho amagambo y'icyongereza ku meza hariho mudasobwa.

Abagabo babiri bahagaze umwe wambaye umupira wa orange ndetse imbere ye hari undi wambaye ishati y'ubururu na karuvati. Umwe ari gusaba serivisi ndetse barayimuhaye. Uyu uri hanze afite igikapu cy'umukara ndetse n'igikapu gitukura.

Inzu ifunguye umuryango, aha ngaha baravunjisha, uzana amafaranga yo mu gihugu kimwe bakaguha andi mafaranga yo mu kindi gihugu, hariho ibyapa byerekana yuko bavunjisha ndetse bakorana na banki yitwa Western Union.

Abantu batatu bahagaze hanze y'inzu bavunjishirezamo. Umwe ahagaze ku cyuma bakuraho amafaranga, abandi babiri bahagaze aho barabakirira. Aba bantu ni abagore.

Icyapa cyamamaza, icyapa kirerekana uko ivunjisha rihagaze ku isoko, iki cyapa kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, iki cyapa kiriho ibihugu bigiye bitandukanye n'ukuntu amafaranga yabo ari kuvunjishwa muri aka kanya.

Aha ni muri salo harimo intebe eshatu, ebyiri zirebana n'indi imwe ireba imbere y'abantu batatu iyi nzu irimo amarido afite amabara atandukanye, iyi nzu iteyemo irangi ry'umuhondo.

Ameza akozwe mu biti ari hagati y'intebe eshatu. Intebe ebyiri ziri ku ruhande rumwe, indi ntebe imwe iri ku rundi ruhande. Izi ntebe zirasa n'ameza hari itara riri kwaka ndetse rimurika kuri aya meza urumuri rukagaruka.

Intebe zikozwe mu buryo bugezweho, zikozwe mu biti bikomeye ndetse ibi biti biteye verine, imbere yazo hari ameza akozwe mu biti hejuru ariho ikirahuri.

Intebe eshatu zikozwe mu biti ndetse n'ameza. Izi ntebe zifite imisego isa, iyi nzu zirimo ifite ibara ry'umweru.

Intebe ebyiri zigaragara zifite ibara ry'icyatsi cyijimye, iruhande rwaho hari ameza afite ibara rya zahabu, izi ntebe ziteretsemo imisego.

Inzu irimo ibara ry'umweru, irimo intebe ubwoko bubiri, hari intebe za kacyi ndetse n'intebe z'umukara. Iyi nzu irimo amakaro y'umweru.

Icyumba kiberamo inama, kirimo intebe z'umukara ndetse n'ameza y'umukara, buri mbere y'intebe hariho ikayi ndetse n'icupa ry'amazi y'inyange.

Inzu z'amagorofa ebyiri ziteganye, imwe ifite amarangi y'umweru indi ifite amarangi y'umuhondo. Hagati yazo haparitse imodoka. Iyi modoka nayo ifite irangi ry'umweru.

Inyubako nziza yitwa Convention, iyi nyubako yubatse muri Kacyiru ndetse iyi nyubako irimo idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi aya ni yo birango by'idarapa ry'igihugu cy'u Rwanda, imbere yaho hari inzu igaragara iri kwaka amatara yiganjemo ay'umuhondo.

Umugabo uhagaze wambaye imyenda y'ababatetsi y'umweru ndetse yambaye ingofero nayo y'umweru imbere ye hari ameza ariho imbuto zijya zitandukanye harimo ibitunguru, karoti, pavuro itomati ndetse n'ibindi.

Ahantu heza ku mazi hateye intebe ndetse hakikijwe n'ibirahuri hari intebe nziza zizengurutse ameza z'umweru ndetse aya meza ariho ibyo kunywa n'ibyo kurya aha hantu ni heza kuko uba witegeye ikiyaga.

Inzu nziza yubatswe ku buryo bugezweho, biragaragara nka n'ijoro kubera ko hari kwaka amatara ndetse iyi nzu ifite amadirishya y'umweru, amatafari yayo yubakishijwe amatafari ahiye, iyi nzu yanditseho purayimu, purayimu ni ubwishingizi.

Icyapa cyamamaza gifite amabara y'ubururu ndetse n'umuhondo, cyanditseho purayimu. Purayimu ni ubwishingizi butangwa mu Rwanda ndetse kirerekana yuko buherereye i Musanze.

Inzu ifite umuryango ufunguye iyi nzu irimo amakaro, iriho ibyapa byamamaza ku muryango ikiriho irembo, Rwanda reveni otorito, aradibi, beka inshuwarensi, na wesitani yuniyoni ndetse n'izindi.

Inzu ikoreramo ikigo cya bretamu inshuwarense. Iki kigo gitanga ubwishingizi butandukanye. Imbere yaho hari abantu bambaye amajire ya emutiyene ndetse hari n'igare riparitse imbere y'umuryango.

Inzu nziza irimo ameza ndetse n'intebe, intebe z'umweru ndetse ameza agiye afite amabara atandukanye, inyuma hari igikuta kigaragara neza gifite ibara ry'umweru kiriho televiziyo izimije.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho ikoreramo purayime inshuwarensi, ubu ni ubwishingizi iyi nzu iragaragara nk'iri kwaka imbere, iri kwaka amatara y'umuhondo ndetse n'umutuku. Iyi nzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ritukura.

Inzu iriho ibyapa byo kwamamaza. Iki cyapa cyanditseho Copedu. Iyi nzu irafunguye imiryango ndetse ifite amarangi y'umweru ndetse n'umuhondo.

Icyapa cyamamaza kiriho umukobwa ufite agasatsi gake ndetse w'imibiri yombi, handitseho icumi, ndetse inyuma ye hari inzu ifite ibara ry'umweru ndetse iri kwakaho amatara.

Icyapa cyamamaza serivisi za banke yitwa ekwiti, iki cyapa kiriho umugore w'umwirabura uri guseka ufite umusatsi mwinshi w'umukara, yambaye umupira w'umuhondo ndetse yambaye akantu k'umweru imbere.

Abantu babiri, umukobwa n'umuhungu bishimye bari guseka, umukobwa afite urufunguzo mu ntoki ze ndetse ahoberanye n'umuhungu. Bose ni abirabura bafite imisatsi y'imikara.

Abantu babiri umugore n'umugabo, umugore afite imisatsi miremire ndetse ari kwerekana ku modoka, imodoka bigishirizamo gutwara yanditseho inyuguti ra, ahagararanye n'umugabo ufite ikayi mu ntoki ze ndetse ari kwandika.

Icyapa cya emuteni cyamamaza cyanditseho ijambo tubirimo na mokashi kiriho umukobwa wishimye cyane uri guseka, ndetse afite telefone mu kaboko k'iburyo akaboko k'ibumoso kambaye isaha.

Icyapa cyanditseho umutanguha giherereye Kicukiro, umutanguha n'ikigo cya banki gishinzwe kubika amafaranga ndetse no kuyabikura.

Abagore b'abirabura bishimye cyane, bazamuye ikiganza cyabo k'iburyo ndetse imbere yabo hasutamye umugore w'umuzungu ufite akatnu mu ijosi, aba bagore imbere yabo, hari ibicuba byagenewe gushyirwamo amata.

Ibyapa byamamaza byanditseho amagambo agira ati Musanze ndetse hejuru handitse murakaza neza muri amagambo y'impene yanditse NCBA.

Umugore uri mu isoko ahantu bacuruza imyenda yambaye ikanzu y'icyatsi ndetse yiteze n'igitambaro cy'icyatsi yarengejeho umwenda w'akazi asa n'ucuruza.

Umugabo ukora akazi ko kwikorera imizigo yambaye isarubeti y'ubururu, yikoreye umufuka ndetse hejuru yawo hariho undi mufuka wigice, inyuma ye hari umugabo wambaye imyenda y'icyatsi ndetse iruhande rwe hari undi wambaye imyenda y'abaporisi.

Umugore ufite imisatsi miremire wambaye imyenda y'ibitenge, yicaye mu isoko iruhande rwe hari ibicuruzwa birimo amashu, itomati ndetse n'imiteja.

Iduka iduka ririmo imyenda higanjemo imyenda y'abana ndetse n'iy'abakuru iy'abana iri ku gice cyo hasi iy'abakuru iri ku gice cyo hejuru irazinze neza ipanze mu tubati.

Abantu babiri bari kugenda hagati y'ahantu bacururiza imyenda ndetse n'ahantu badodera, aba bantu badoda baricaye imbere yaho hari imashini ndetse inyuma yabo hari imyenda imanitse.

Imodoka nyinshi ziparitse ahantu hamwe ku mpande z'umuhanda izi modoka harimo izitwara imizigo ndetse n'izitwara abantu haragaragara amazu menshi afotorerewe hejuru.

Umugore uhagaze mu iduka acuruzamo imyenda y'abagore. Uyu mugore yambaye ishati y'umweru ndetse ari kureba iruhande, imbere ye hari intebe ifite ibara ry'umweru.

Imiryango ibiri icuruza ibiribwa. Umuryango umwe uhagazeho umukobwa, undi muryango uhagazeho abantu batatu, ndetse n'undi umwe wicaye, wambaye isarureti y'ubururu.

Muri gare ya Nyabugogo, ahahurira abantu benshi, bigaragara nk'abahari guhaha ndetse harimo n'ibinyabiziga, harimo imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse na moto, aha hari inzu yubakishijwe amabati.

Umugabo wambaye umupira utukura ndetse n'ipantaro y'umuhondo, yikoreye indobo ifite ibara ry'icyatsi irimo imbuto imineke ndetse na pome aha ngaha ni ku isoko rya Nyarugenge.

Isoko ry'imbuto harimo abantu batatu abagore babiri ndetse n'umusore umwe. Wambaye ingofero yayihindukije inyuma. Zirimo imineke, imyembe ndetse n'ibinyomoro.

Mu isoko. Iri soko ryiganjemo abagore benshi ndetse buri mugore ahagaze imbere y'ibicuruzwa bye. Ibi bicuruzwa byiganjemo itomati, karoti ndetse n'intoryi.

Abagore babiri bicaye umwe ari gucuruza imyenda imbere ye niho iteretse ndetse inyuma ye naho hari akabati ndetse hari n'indi myenda, urebye hejuru hari imyenda ndetse n'ibitenge n'ibikapu.

Mu isoko. Mu isoko hagaragara umuntu umwe w'umuhungu. Iruhande rwe hari inkweto nyinshi za bodaboda, zigiye zifite amabara atandukanye. Ndetse inyuma hari ahantu hamanitse ibikapu. Ndetse n'undi mugabo wambaye ishati y'umutuku.

Ibiganza bibiri, bifashe telefone. Bifite telefoni irimo umuntu uri kugura enterineti. Handitsemo "Ishyura magana atanu, kugira ngo uhabwe megabayiti magana inani".

Abagabo babiri bari kureba muri telefoni, buri muntu afite telefoni mu kiganza cye. Umwe yambaye umupira w'umuhondo wanditseho amagambo, ndetse yambaye n'ingofero'umuhondo ifite ibara ry'ubururu. Undi mugabo yambaye ikoti ry'umukara nta ngofero yambaye.

Abasore bari kubyina bameze nk'abarushanwa bambaye imipira y'imyeru, inyuma yabo hari abakobwa batatu, umwe wambaye umupira w'umweru n'abandi babiri bambaye imipira y'umuhondo, iruhande rwabo hari ibyapa byamamaza bya emutiyene byanditseho izihirwe.

Akazu ka MTN kari kuruhande rw'umuhanda. Aka kazu karafunze kariho inyuguti MTN ,aka kazu kiganjemo ibara ry'umuhondo ndetse hejuru handitseho ijambo rigira riti kanda akanyenyeri rimwe umunani kabiri urwego.

Umugabo uhagaze wambaye umupira ufite ibara ry'icyatsi, inyuma ye hari intebe yari yicayeho zo muri banki, ndetse arahagaze ahantu bakirira abakiriya.

Umugabo w'umuzungu wambaye amarineti n'umupira w'umweru uriho ibirango bya emutiyeni by'umuhondo, uyu muzungu kandi afite igiseke ari guha umugore wicaye ngo akoremo.

Iyi ni kode itangwa na MTN yishyurirwaho abacuruzi, iyi kode ifite imibare rimwe zeru umunani kane rimwe gatatu, ifite ibirango by'umuhondo ndetse n'umweru.

Abakobwa babiri bicaye b'abirabura, bambaye imipira y'imihondo gusa yanditseho amagambo emutiyene, inyuma yaho hari icyapa cyanditseho n'inyuguti z'umukara, ndetse iruhande hari amabara y'umuhondo.

Icyapa cya MTN gihabwa abacuruzi kugira ngo bajye babasha kukishyurirwaho. Kibaho imibare ikoreshwa mu kwishyura, iyi mibare barayiguha bakayibarura ku mazina yawe, iki cyapa kiriho imibare umunani icyenda, gatandatu gatandatu gatandatu umunani.

Abagabo babiri bahagaze mu nzu ikoreramo emutiyene, umwe ari kwaka serivisi cyangwa ubufasha, undi yambaye umupira wa emutiyene bombi bafite telefone mu ntoki.

Abantu bambaye imipira y'imihondo, ndetse umwe yambaye n'ingofero, iyi mipira ni iya emutiyeni. Imbere yabo hari umuzungu ufite icyapa cyanditseho momo, kiri mu mu mabara y'umuhondo ndetse n'ubururu, n'umweru.

Abantu babiri batagaragara neza bicaye umwe afite telefone mu ntoki ari kuyirebaho ndetse imbere ye hari ameza afite ibara ry'umuhondo.

Umugabo uhagaze ku kazu ka emutiyene, ari kuvugana n'umuntu arimo imber. Aje kubikuza amafaranga cyangwa kuyohereza. Inzu ya emutiyene isize irangi ry'umuhondo.

Umugabo wambaye agapfukamunwa ndetse n'ishati y'umukara irimo amabara y'umweru. Ari gufata anverope iteretse kuri moto. Iyi moto iriho ikintu cyanditseho yego. iyi moto ifite ibara ritukura.

Umumotari wambaye inkweto z'umweru zirimo ibara ry'umukara, yambaye kandi ipantaro yubururu, hejuru yambaye ishati y'icyatsi iciye amaboko ndetse na casque y'icyatsi, imbere ye hari moto iriho ikintu cy'icyatsi ndetse icyo kintu bakibikamo ibiribwa.

Umumotari wambaye ijire y'akazi ifite ibara ry'ubururu ndetse yambaye kasike ifite ibara ry'umuhondo, kuri moto ye hariho akazu gateretseho kanditseho kasha.

Icyapa cyamamaza iki cyapa kiramamaza ''eyateli'' kiriho umugabo w'mwirabura ufite umusatsi mukeya, ndetse wasamye cyane yatangaye mu ntoki ze harimo telefone, iki cyapa kandi kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku.

Icyapa cyamamaza kiramamaza inkweto, izi nkweto zambawe n'umukobwa bari kwerekana amaguru gusa, uyu mukobwa ni inzobe. Izi nkweto baravuga ko zigura ibihumbi icumi na magana atanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bibiri ari byo moto, izi moto zirahagaze ndetse abashoferi bazo bari kureba kuruhande rw'iburyo, izi moto kandi zifite kasike, zifite ibara ry'icyatsi.

Icyapa cyamamaza imyenda y'abagore hariho amerekezo y'ahariho ndetse hariho amakanzu, amashati ndetse n'amajipo by'abagore, ahangaha baravuga ko ushobora kubibona igihe cyose ubikeneye.

Umuntu ufite telefone arasa n'umukobwa kubera inzara, afite telefone ari kuyirebamo handitse vuba vuba, uwo mukobwa yambaye ishati ndetse ateze n'igitambaro yatoboye amatwi kuko yambaye amaherena.

Abantu babiri bahagaze umugore n'umugabo umugore ni umwirabura yambaye ikanzu ngufiya, ndetse undi ni umugabo w'umuzungu wambaye ishati y'umweru yahinnye amaboko bahagaze mu busitani bw'ubucaca.

Inzu nziza irimo ibikoresho byo mugikoni, utubati dufite amabara y'umweru ndetse harimo firigo ishinzwe gukonjesha ndetse harimo n'izindi ntebe nziza cyane wicara wegamiye.

Inzu nziza zubatswe mu buryo bugezweho, imbere zazo hariho utwuma dufite ibara ry'umukara, izi nzu kandi zitandukanyijwe n'uruzitiro rwubakishijwe amatafari.

Igitanda gishashe neza kiriho umusego ndetse iki gitanda gifite ibara ry'umukara, iyi nzu cyangwa iki cyumba gisizemo irangi ry'umweru.

Inzu yubatse mu buryo bugezweho iteguye neza, iherereye i Kanombe i Kigali ifite amabara meza, ibara ryiganjemo n'itara ry'umuhondo.

Umugabo urambuye amaboko wambaye ikoti ndetse n'ishati. Uyu mugabo ari mu nzu ifite irangi ry'umweru hose ndetse ifite imiryango minini iriho ibirahuri bigaragara neza hanze.

Umuryango ugaragara igice kimwe, uyu muryango ukiwinjira uhita ugera mucyumba, icyumba gishashe neza kiriho imisego ifite amashuka y'umweru.

Igitanda gishashe neza kiriho imisego ibiri, iruhande rwaho hari akabati k'igitanda kariteretseho itara, iruhande rwaho hari vandarateri.

Muri salo harimo intebe ebyiri ndetse n'ameza akozwe mu giti, izi ntebe zirimo imisego, iyi nzu irimo n'amakaro ndetse hacanye itara bigaragara ko hatari hari kubona neza.

Inzu ikodeshwa iherereye Kabeza-Kigali, ifite ibyumba bitatu ndetse n'ubwiherero butatu. Iyi nzu ni nziza ifite amarangi y'umweru ndetse ifite uruzitiro narwo rufite amarangi y'umweru.

Inzu ifite amarangi y'icyatsi ndetse amadirishya yayo afite ibara ry'umweru, iyi nzu kandi ifite amabati afite ibara ritukura.

Umugabo w'umwirabura wambaye ikote, yambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati, imbere ye hari umuhanda, inyuma ye hari inzu yiganjemo amabara y'umweru, ifite umuryango ufunguye.

Urupangu rwubatse neza rurimo inzu y'igorofa, ifite amarangi y'umweru ndetse iki gipangu cyubakishijwe amatafari ahiye. Hariho porutaye ifite amarangi y'umutuku ndetse n'amarangi y'umweru.

Inzu ikodeshwa, ifite urupangu rusunikwa ,rufite amabara y'umukara .Iyi nzu iteye irangi ry'umweru ndetse iyi nzu yubatswe mu buryo bugezweho. Ni nziza.

Umusore wambaye ingofero itukura yambaye umupira w'umweru ndetse ahetse igikapu, imbere ye hari imipira imanitse ari kuyitegereza cyane, hasi y'imipira hamanitse amapantaro.

Icyapa cyanditseho sawa siti gifite irange ry'icyatsi ndetse sawa byanditse mu ibara ritukura, iruhande rwaho hari icyapa cyanditseho Remera, hari umuryango ufunguye imbere yabo hari ameza y'umweru.

Abantu babiri barahagaze umugore ari kureba amakoti ari imbere ye umuzungu ahanze amaso uyu mugore ntashaka kumukuraho amaso inyuma yabo hari undi mugore wambaye amarinette nawe wibereye muri gahunda ze.

Mu isoko rya nyarugenge . Baracuruza imbuto harimo :imineke, ibinyomoro, pavuro wotameloni, ibitunguru ndetse n'ibindi.

Akabari gakoramo abantu bambara amashati y'umuhondo ndetse n'amapantaro y'umukara. Aka kabari gafite intebe nziza ariko nta bantu bazicayeho.

Umugabo wicaye uri kureba muri terefone, inyuma ye hari amakanzu atatu imwe y'ubururu indi y'umutuku irimo uturabo tw'umuhondo, indi ni umukara uvanze n'umuhondo ndetse n'umutuku.

Imodoka ziparitse zifite amabara atandukanye, hari ifite ibara ry'umukara ndetse n'izindi zifite amabara y'umweru atagaragara neza ndetse inyuma yazo hari inzu nziza y'igorofa icururizwamo imyenda.

Umugabo uhagaze, wambaye ikoti ry'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, yambaye ishati y'umweru na karuvati. Arahagaze ari kubwira abantu bamuri imbere bari kugaragara imitwe gusa ndetse harimo uteze igitambaro cy'umweru, iyi nama ni iy'ikigo gishinzwe ubuvuzi.

Abantu babiri, umukecuru n'umusaza. Barafatanye mu ntoki ndetse bari kurebana bari guseka. Uyu musaza afite umusatsi w'imvi ndetse yambaye ishati y'umweru iciyemo imirongo.

Abantu bahagaze bari kwifotoza ni abantu icyenda harimo barindwi b'abagabo ndetse na babiri b'abagore abagabo bambaye amakoti bari kwifotoza ifoto y'urwibutso.

Mituweli ,mitueli ni ikarita ikoreshwa mu bwisungane mu kwivuza .Iyi karita yishyurwa hagendeye ku byiciro by'ubudehe ,iyi karita kandi yanditseho inyuguti r s s b basoma alecesb.

Abantu bane bicaye, abagore babiri ndetse n'abagabo babiri, bicaye hagati y'aba bagore, aba bagabo bambaye amakoti, ndetse umwe yambaye amarineti, bose bafite amakaye imbere yabo, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho tekana.

Abantu batatu bicaye, babiri ni abaganga undi ni uwaje kwivuza, ni umugore yambaye ikanzu. Abaganga bambaye imyenda y'akazi, imbere yabo hari amakayi bari gusoma.

Umuntu ugaragara igihimba ndetse afite mituweri, ubwishingizi mu kwivuza bukoreshwa mu Rwanda. Ubu bwishingizi bwanditseho RSSB.

Abantu benshi ndetse biganjemo abambaye imyenda ya siporo, harimo umwe ufite umupira mu ntoki ufite amabara y'umuhondo ndetse iruhande rwabo hari icyapa cyamamaza cyanditseho ejo heza.

Icyapa cyamamaza, iki cyapa kiriho ibiganza bibiri biri gusuhuzanya by'abagabo iki cyapa kiramamaza RSSB cyanditseho Nyakabanda Gacuriro.

RSSB. RSSB ni ikigo gishinzwe ubwisungane mu kwivuza mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse RSSB byandikishijwe ibara ry'umweru bifite ubuso bwiganjemo ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo.

Icyapa kiranga cyangwa cyamamaza Simba supamaketi, iruhande hari icyapa kiri mu ibara ry'umutuku, munsi y'iki cyapa cya simba hari imoko igaragara ifite ibara ry'umweru.

Umugabo uri guhaha wambaye umupira w'umukara w'amaboko maremare, ari guhaha ibintu bifunze mu dufuka tw'umuhondo, ndetse ari muri arimantasiyothari, ahantu bahahira ibintu byo kurya ndetse n'ibyo kunywa.

Abagabo batatu bari guhaha bari guhahira muri supamaketi umwe ari gusunika igare ndetse areba n'ibicuruzwa undi yambaye umupira w'umuhondo yahindukiye ari kureba inyuma.

Umugabo uhagaze ahantu bahahira, uyu mugabo yambaye umupira ufite ibara ry'umukara ndetse imbere ye hari aho bagurira inzoga, afashemo imwe mu ntoki ze.

Umugabo uri guseka wambaye amataratara, ndetse ufite imisatsi yikaraze, yambaye ishati yayihinnye amaboko afite telefone mu kuboko kw'iburyo, ari kuyikoza ku kamashini bakoresha mu kwishyura.

Umukobwa mwiza wambaye ikoti ry'ubururu, yambaye n'ipantaro. Ari kureba ibicuruzwa agiye kugura niba bitararangiye. Inyuma ye hari ibinyobwa byiza.

Abantu batatu bagaragara, barimo umudamu umwe wishimye uri guhaha, harimo umugabo umwe wambaye umupira w'umuhondo MTN uri kureba muri terefone usa n'uwatangaye, inyuma yabo hari undi umwe w'umugabo uri kubareba.

Iduka bacururizamo imbuto rihagazemo umuntu uri guhaha ufite imisatsi miremire, ni umugore. Afite agatebo gafite ibara ry'icyatsi. Izi mbuto harimo itomati, pavuro, amashu, karoti ndetse n'ibindi.

Umugore yambaye umupira w'icyatsi ndetse yambaye n'akanozasuku mu mutwe, uyu mugore ari gupamga imbuto n'imboga muri firigo. Izi mbuto zirimo pome, itomati, ndetse na karoti.